Imodoka y'imbangukiragutabara iri mu muhanda izamuka. Iyi mbangukiragutabara ikaba yanditseho amagambo igaragaza yuko ari iya kuruwaruje y'u Rwanda. Hakurya yayo hakaba hari urukuta rw'amabuye. Hakaba hari umuntu uruhagazeho.

Aha ni ahantu hacururizwa imiti igiye itandukanye aha hantu hakaba hatangirwa imiti yibanze cyane cyane ku bantu barembye kandi bahuye n'impanuka mu buryo bwihuse bakaba babasha guhita bahabwa imiti.

Aba ni bamwe mu bakora mu kigo cy'ubutabazi kizwi nka Croix Rouge, bakaba bahawe amaseretifika agaragaza ubwitange n'imirimo bakora, bari kwifotoreza ahantu heza hari ibyatsi by'icyatsi kibisi ndetse n'uturabyo tw'umuhondo.

Aba ni abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, bari mu nyubako nziza cyane itatse, iyi nyubako ikaba irimo ubusitani bwiza cyane, ikorokirijwe amatafari ahiye, aba banyeshuri bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi ndetse bafite n'icyapa cyamamaza.

Aya ni amoko y'imiti yifashishwa batanga ubuvuzi bwihutirwa ku bantu barembye. Ni imiti igaragara neza iri mu dukarito ndetse no mu ducupa. Hakaba hari n'udusanduka ushobora kuwutwaramo.

Agatanda cyangwa se ingobyi ishyirwaho umuntu uhuye n'impanuka iyo ukoze impanuka usanga abatanga ubutabazi bw'ibanze bagushyize kuri iyi ngobyi, maze bakakwihutanabakuganisha aha ubuvuzi.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, hakaba havurirwa indembe zirembye ku buryo bukomeye, harimo igitanda babaryamisha, hakaba harimo imashini ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu gihe bari gusuzuma umurwayi.

Croix Rouge y'u Rwanda ni imwe mu zitanga ubutabazi bw'ibanze kandi bwihuta, aha hari umuntu waguye mu cyayi maze barihuta cyane baramura bamushyira ku gatanda batwaraho abarwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iki kikaba ari icyumba kivurirwamo indembe. Harimo ibitanda baryamishaho abarwayi mu gihe bari kubakurikirana babavura ndetse hakaba hari n'akuma kariho serumu iri guhabwa umurwayi wicayeho.

Iyi ni imbangukiragutabara irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa ahantu baba bagiye gufata amaraso. Aho harimo ibitanda ndetse n'ibishashi bifashisha muri icyo gikorwa.

Aha habereye igikorwa, cyo kwerekana uburyo ushobora kuzimya inkongi y'umuriro. Ni umupolisi wambaye impuzankano, akaba ari kwerekera abaturage bari hano, aho yafashe umudamu maze amwereka uburyo ushobora gufata Kizimyamwoto ukayipuriza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo umuganga wambaye impuzankano. Akaba ari kuvura uburwayi bw'ijisho umupapa wicaye hano wambaye ishati, y'ubururu ipantaro yumukara bakaba bari mu nyubako mo imbere.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba yubakishije amatafari ahiye hari amagambo yanditse aho bagenda berekana buri muryango n'ikiwukorerwaho, aba ni abantu bari kuyifotoreza imbere nk'abakozi bahakora.

Inyubako yo kwa muganga irimo urujya n'uruza rw'ababyeyi bateruye abana babo, bakaba baje kubateza inkingo kugira ngo babarinde kuba bazagira uburwayi mu gihe cy'imikurire yabo.

Iyi ni inyubako nziza cyane, ukihagera ubona amasikariye ushobora kuriho maze ukagera ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hariho icyapa kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, akayira kajyamo gashashemo amabuye ndetse inkuta zubakishije amatafariyiye n'indabyo ziteye uruzitiro rw'ibyuma aho ku bwinjiriro hariho icyapa kigaragaza yuko ari ibitaro bya kigeme.

Aha ni mu ivuriro, mu ivuriro biba byiza iyo bakoresheje mudasobwa kugira ngo bibafashe kubika amakuru yose mu buryo bwizewe ku buryo nta na kimwe bashobora kubura.

Inyubako y'ivuriro . Iyi nyubako ikaba irimo agatanda kariho matela isasheho amashuka. Harimo agasanduku muganga ajugunyamo imyanda. Hakaba intebe ifite ibara ry'umukara ndetse hariho amarido ikaba ifite urukuta ruriho irangi ry'umweru.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo abaganga babiri. Bose bambaye impuzankano y'umweru, harimo umubyeyi waje kwivuza ufite agakarine ke mu ntoki. Ndetse muganga ari kumusobanurira ibyanditse ku ifishi, aho ari kugenda abimwereka neza.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye imbere y'ivuriro. Bakaba baje gushaka serivisi z'ubuvuzi. Ni urujya n'uruza higanjemo ababyeyi b'abamama ndetse n'abana b'abakobwa.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo akana kagaragara ko kari karwaye, gafite telefone mu ntoki kari guseka, na mama wako ari kukareba agaseka, ni byiza kurwaza umwana maze wagira amahirwe ukabona akize.

Abantu bari mu nyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba irimo umukobwa ufite mudasobwa imbere ndetse n'umupapa ufite mudasobwa imbere ya buri muntu hakaba hateretse agacupa k'amazi, aya mazi bayifashisha bayanywa.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ibangukiragutabara yanditseho amagambo agaragaza y'uko ari iya Croix Rouge y'u Rwanda, hejuru hakaba hari urukuta rw'amabuye, hari umuntu uruhagazeho bigaragara ko ari kwitegereza iyi mbangukiragutabara.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu ivuriro. Bakaba bicayemo imbere. Muganga ari kureba uwarembye cyane kurusha abandi. Bose bafite amafishi mu ntoki, ndetse n'amakarita yo kwivurizaho, higanjemo abakecuru.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe harimo abasore, inkumi, abama ndetse n'abandi, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso bahagaze mu nyubako nziza cyane bigaragara ko ari ibitaro byuzuye vuba bikaba bigiye gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, yambaye uturindantoki mu ntoki, akaba afite utwuma twabugenewe rwifashishwa mu gihe bari kuvura, akaba yiteguye kuvura.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga ikaba irimo abarwayi babiri, umwe ari iburyo bwa muganga undi akaba ibumoso. Umuganga ubicaye hagati yicaye ku ntebe ya palasitike yambaye impuzankano y'umweru ndetse na baji mu ijosi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, harimo n'ibijyanye n'ubujyanama mu by'ubuzima, hari umusore uri gukina akabaro kakiri gato, wambaye ishati y'amakarakaro irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Iyi ni imbuga nziza cyane ishashemo amapave. hakaba harimo imodoka y'ibangukiragutaba, hari ababyeyi bari kuyifotoreza imbere bigaragara ko bavuye guhabwa serivisi z'ubuvuzi mu ivuriro riri hafi aho.

Abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe, inyuma yabo hari imbangukiragutabara ifunguye imiryango yombi. Hakaba umugabo uri kureba mu mbangukiragutabara. Aho iparitse hasashe amapove ariko ashaje. Inyuma hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza harimo: abagabo, abana, abagore ndetse n'abakecuru hakaba harimo umuganga uri kubakira, imbere ye ku meza hari amafishi agiye atandukanye.

iyi ni inyubako isuzumirwamo ibizamini abarwayi baba batanze, harimo abaganga babiri bambaye impuzankano z'umweru, buri wese afite ibyo ari gusuzuma kandi harimo ibikoresho kabuhariwe.

Uwo umusore uri mu isuzumiro ry'imiti akaba afite icupa ririmo umuti w'umutuku, ari kureba ku gipapuro ibiwugize, uyu musore yambaye impuzankano y'umweru akaba ari ahantu heza cyane harimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abahanga mu by'ubuvuzi usanga bakora ubushakashatsi, iki ni ikiganza kiriho uturindantoki tw'umweru, akaba afite amaraso ku karahure aho agiye kuyasuzuma ngo arebe niba hari indwara irimo.

Umwari ukiri muto, wambaye impuzankano y'abaganga. Ari mu cyumba kivurirwamo abarwayi, akaba afite urushinge mu ntoki. Aho bigaragara ko ari gushyiramo umuti ngo awutere abarwayi. Aha ni mu isuzumiro.

Abana bari mu nzu ikorerwamo imenyerezwa bakaba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, ni inyubako ikorerwamo isuzumiro aho utambuka ugasangamo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa.

Abaganga b'inzobere nyuma yo gukora ubushakashatsi bw'urukingo baraza bakagenda batanga izo nkingo, aha harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, udupfukantoki tw'ubururu akaba arimo atera urukingo umuntu.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubugenzuzi ndetse ikanakorerwamo imirimo y'amaboko ku banyeshuri. Aha rero naho bashyira ibyo bize, mu magambo bakabishyira mu bikorwa. Harimo abana bafite, ibikoresho bikoreshwa, mu ntoki.

Umuforomo akaba ari mu ivuriro rwagati ari ahantu hari igikuta kiriho amakaro, akaba afite ifishi ndetse n'agacupa bigaragara ko ari kureba ko ibizamini asuzumye bihura n'indwara asanganye uwo muntu.

Aha ni mu isuzumiro, aho basuzuma imiti igiye itandukanye. Hateretse udukarito turimo imiti ya malariya, ishushanyijeho umubu utera malariya ukaba uteretse ku meza.

Aha ni ahantu hakorerwa ubugenzuzi bw'imiti. Hakaba harimo abantu benshi cyane bambaye impuzankano z'umweru. Harimo uwambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete, yambaye uturindantoki tw'umuhondo, aho ari gusuzuma umuti.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubugenzuzi bw'indwara ndetse n'imiti, aho usanga inzobere mu by'ubuvuzi zinjiramo maze zikifashisha ibikoresho biba birimo bagasuzuma bitonze.

Inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, zifata umwanya maze zigakora ubushakashatsi. Iki ni ikiganza cyambaye uturindantoki tw'ubururu, hakaba harimo akarahuri. Ari gukozamo agaheha kugira ngo azamure utuntu maze asuzume.

Uyu ni umuntu wambaye impuzankano y'abaganga. Akaba ari mu cyumba gikorerwamo ubugenzuzi bw'imiti. Yambaye agapfukamunwa ingofero ndetse n'amarinete. Akaba afite urushinge rurimo umuti usa ubururu. Imbere ye hakaba hagiye hateretse utwuma.

Aha ni mu isuzumiro ry'imiti, hakaba harimo amoko agiye atandukanye, turi kubona ikirahure kirimo akantu kagaragara nk'aho ariko bari gupimisha, abaganga b'inzobere ibi babyitaho.

Uyu ni umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, akaba yambaye uturindantoki tw'umweru, afite akarahure karimo ibintu bisa umutuku, akaba agiye gusuzuma ngo arebe niba nta ndwara irimo.

Umwana wambaye agashati k'umuhondo, ahetse igikapu nk'uko bigaragara agiye ku ishuri, umubyeyi we akaba ari kumunywesha ku mata y'inyange meza cyane afunze mu ikarito, mu rwego rwo kugira ajye ku ishuri ameze neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro aha hakaba ari aho bakirira ababyeyi baje kubyara, harimo umubyeyi ukenyeye igitenge, imbere ye ku gatanda hakaba haryamyeho akana kavukiye muri iri vuriro.

Umubyeyi aba akwiye kwita ku buzima bw'umwana we kuva akiri uruhinja kugeza yujuje imyaka y'ubukure. Aha hari umupapa wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, yambaye amarinete, akaba ari guha ikinini akana kakiri gato.

Aba ni abantu bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi hejuru. Aba bakaba bari kubyina imbyino zigiye zitandukanye, ni mu gikorwa cy'ubukangurambaga kigamije gushishikariza ababyeyi kwita ku buzima bw'abana babo.

Aha ni mu kigo cy'amashuri. Mu kigo cy'amashuri ni byiza yuko abana basuzumwa, bakareba imitekerereze yabo ikigero igezeho ndetse bakabasha gufasha abafite icyiciro kiri hasi.

Uri gutanga imbwirwaruhame yambaye agapira ka oranje akaba afite indangururamajwi inyuma y'iwe hakaba hari igishushanyo kigaragaza ikigo cy'igihugu kita ku buzima RBC hakaba ariho ko ari amagambo agaragaza ko ari icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, ikaba irimo abaganga, ndetse hakaba harimo n'urujya n'uruza rw'abantu baje kwipimisha indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko twita ku buzima bw'ababyeyi, bityo kugira ngo n'abana bamere neza.

Ni byiza kwita k'ubana cyane cyane abakiri bato. Aha hari umugabo wambaye umupira w'ubururu wanditseho UNICEF. Akaba ari guha abana igikoma, gikozwe mu ifu nziza cyane aho kibongerera imbaraga.

Aba ni ababyeyi bari kubyina, uyu mubyeyi yambaye umupira w'ubururu wanditseho amagambo agira ati ubuzima, akaba akenyeye igitenge, arishimye ari guseka kandi ari kubyina, ni byiza guha serivisi z'ubuvuzi abaturarwanda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza kizwi nka RIB, ndetse n'ikirangantego cya repubulika y'u rwanda. Mu gashushanyo karimo izuba rirashe, mw'i ibara ry'umuhondo bakaba bagaragaza umurongo utishyurwa wahamagaraweho mu gihe bahuye n'ihohoterwa.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Harimo abadamu batatu n'umukobwa umwe, hakabamo umugabo umwe bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo mu mitekerereze ye. Bose bari kumuganiriza, aho bamwe bamubaza bakumva ibisubizo atanga bakabyandika.

Leta y'u Rwanda ikurikirana kandi ikamenya ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, aha hakaba hari icyapa cyanditseho giti twite ku buzima bwo mu mutwe, izi ni ingamba zafashwe na Leta.

Aba ni abantu bari mu bukangurambaga. Bakaba biganjemo urubyiruko. Bafite icyapa cyanditseho amagambo agira ati "rubyiruko turwanye ibiyobyabwenge kuko bitwicira ubuzima kandi bikadindiza n'iterambere ry'Igihugu cyacu."

Iyi ni inyubako itangirwamo imiti igiye itandukanye ya kizungu. Hakaba hari iri mu dukarito, iri mu macupa magufi ndetse n'iri mu macupa maremare. Ni inyubako nziza cyane isize irange ry'umweru.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye. Hakaba harimo utubati turimo imiti cyane. Iyi miti ni imiti ikozwe mu buryo bwa kizung. Ifunze mu dukarito ndetse no mu macupa mato n'amaremare.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bushyirwamo ingufu, kugira ngo ababukora bakomeze babone umusaruro, kandi umeze neza uyu ni umuti uhabwa inkoko kugira ngo zororoke.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti cyangwa se itangirwamo imiti. Turi kubona ikiganza cy'umuntu gifite imiti mu ntoki yiganjemo ibinini bifunze neza. Ni ngombwa ko ayikoresha kugira ngo akire.

Iyi ni inyubako itangirwamo imiti, iyi nyubako irafunze, ifite inzugi z'umweru ziriho ibirahure ndetse na giriyaje, hejuru hakaba hasakaje amabati y'ubururu, hakaba hariho n'icyapa kigaragaza izina ry'iyi farumasi.

Iri ni ihuriro ryita ku buzima hakaba hari abantu benshi cyane, ni urujya n'uruza rw'abantu n'iyonka yaje, imbere yabo hari umuhanzi wambaye umupira w'umweru ufite indangururamajwi, akaba ari kubasusurutsa.

Uwo mumama uri gutanga imbwirwaruhame afite indangururamajwi mu ntoki. Ni ahantu bateranyirije abaturage, ndetse hakaba hari n'ibyuma biri kubafasha kumvikana. Uyu mumama ari kubabwira ku bijyanye n'ubuzima.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Hicayemo abantu bagiye batandukanye baje gushaka serivise z'ubuvuzi. Turi kubonamo umusore wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu. Iyi nyubako ifite isima y'umutuku hasi.

Iki ni ikigo nderabuzima. Iki kigo nderabuzima kikaba gifite imbuga nziza cyane, ifite ibara ry'ubururu nkuko bigaragara haba bakinirwa umukino w'amaboko uzwi nka basiketi, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwirebera umupira.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bambaye imyenda imeze nkaho ari impuzankano. Iri mu mabara y'umuhondo ndetse harimo n'uwambaye agapira k'umukara. Bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ati"turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko".

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, aho abari imbere bafite icyapa cyanditseho kiti "ubuzima bwanjye n'ubwawe reka dufatanye twirinde".

Hirya no hino mu gihugu bubatse amavuriro ndetse n'ibigo by'amashuri. Aba ni abantu bateraniye mu kigo k'ishuri, bakaba bari mu nama iri kwigira hamwe uko bateza imbere ibikorwa bitandukanye by'uburezi.

Aba ni abana bakaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga. Bafite icyapa kiriho amagambo agira ati, wiceceka, rwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibi bigomba gushyirwa mu bikorwa.

Iki ni ikimera cyiza cyane, gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'uturabyo, ni ikimera kifashishwa hategurwa umuti gakondo, nk'uko tubizi umwenya uvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye cyane cyane iz'ubuhumekero.

Iyi ni imiti gakondo igiye itandukanye, ikaba ifunze muntu tugiye dutandukanye, hari iri mu dutebo, hari iri mudusorori, ifite amabara atandukanye kuko imwe isa umuhondo indi igasa umweru, ibi biratangaje.

Imiti gakondo ni imwe mu miti ivura kandi abawizeye bahora bawukoresha, hari agasekuru gato, umuntu ufite agahini mu ntoki, ari kugenda awusekura awutunganya neza.

Uyu ni umumama uri gutunganya imiti gakondo, akaba afite ibikoresho bigiye bitandukanye ari kwishisha. Harimo: ibirahure, hakabamo amacupa ndetse n'utubase, hakaba harimo ibigiye bitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo ndetse n'ibiyigize, turi kubona inete, tukabona amababi ndetse n'ibindi bitandukanye bifashisha bayikora.

Aha harimo umuntu uri gutunganya imiti gakondo afite igitabo ari kubisomamo. Akaba afite ibimera bigiye bitandukanye biteretse imbere ye, aho ari kugenda areba ku icupa niba ibyo yanditseho aribyo koko yakoresheje.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye iyi miti ikaba ikomoka ku bimera, turi kubona agasekuru k'umweru ndetse n'agahini k'umweru, iyi miti ikaba ifite amabara agiye atandukanye harimo: iy'umukara,, iy'umweru iy'umuhondo ndetse n'iy'ubururu.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, ikaba itunganywa mu buryo bugiye butandukanye, aha bari kutwereka udusorori twinshi cyane turimo amoko y'imiti agiye atandukanye.

Utu ni udushashi tugiye dufungiyemo imiti igiye itandukanye y'amatungo. Turi kubona akari imbere gashushanyijeho inkoko. Iyi rero ikaba ari imiti igenewe guhabwa amatungo kugira ngo amere neza.

Aba ni abagabo babiri bateruye batiri y'umurasire tuzi witwa Mayisoru. Mayisoru ikaba itanga umuriro, aho bayikwesitarira mu nzu maze ikaba yakumurikira.

Aha ni mu inyubako y'ivuriro mo imbere, harimo abaganga bambaye impuzankano y'ubururu, bambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, bakaba bari kwitegereza imiti iri hano kugira ngo barebe nimba yujuje ubuziranenge.

Aya ni amoko y'imiti ikunze guhabwa abana. Ikaba iri mu dukarito. Hari udukarito twinshi cyane. Ni byiza ko tumenya ndetse tukanasobanukirwa uko imiti ikoreshwa cyanecyane iyo duha abana, bityo bibafasha kuba ntacyo yabatwara mu gihe bayihawe.

Aha ni mu kigo nderabuzima hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari kuvura umukecuru wifubitse igitenge uteze igitambaro, ubuvuzi bwegerejwe abaturage hose.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo abaganga b'inzobere bambaye impuzankano z'ubururu, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, bamwe muri bo bambaye n'amarinete, hakaba harimo umugabo wambaye ijire y'umukara iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Inyubako y'ivuriro, harimo urujya n'uruza rw'abantu, hari abantu bari gutambuka, hakaba n'abaganga bari kubakirana yombi, imbere y'iri vuriro hari ibyapa byereka abantu ko hari ivuriro kandi bavurwa nta nkomyi.

Aba ni abantu bari mu nyubako y'ivuriro, imbere yabo hakaba hari imashini zigiye zitandukanye zikora ibikorwa byo gusuzuma, hari abaganga ndetse n'abandi bantu bigaragara ko biyubashye, bakaba bari gufotora.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Harimo abari babiri bambaye imyenda y'umweru. Hakaba hari amakarito arimo amoko y'imiti agiye atandukanye. Hari umuntu waje kwivuza wambaye ikote ry'umukara ndetse hakaba hateretse n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba isize amarangi y'ubururu, ikaba ishushanyijeho umugabo n'umugore bafite utwana tubiri, hakaba hari umusore wambaye umupira w'umuhondo ari mu idirishya aho ari gusaba serivisi zigiye zitandukanye.

Aha hari igikorwa gikomeye kandi gikomeje, aho buri muntu wese winjiye muri iyi nyubako, agomba kubanza gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune kandi akaba yambaye agapfukamunwa neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Hakaba harimo umuganga wambaye taburiya y'umweru, uhagaze imbere y'igitanda kiriho ibikoresho. Biragaragara ko yiteguye gukora akazi ke, aho ari kugaragara umubyeyi umuri imbere.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ifite amarangi y'ubururu, ikaba ifite amadirishya asa umweru, harimo abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, hanze hakaba hari kandagira ukarabe z'umweru ushobora gukarabaho.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba isize amarangi meza cyane, isize irangi ry'ubururu ikaba isakaje amabati y'umutuku, hejuru hariho igishushanyo cy'umuma n'umupapa bafite utwana tubiri, hakaba handitseho ngo girubuzima.

Inka nk'imwe mu matungo yororwa kandi yubashywe mu Rwanda. Aha rero bari kugaragaza ko na zo zitabwaho zigategurirwa inkingo ndetse imiti yazo ikaba ihari.

Inka ni bumwe mu bworozi buteza imbere igihugu, ariko nanone wagera ku matungo magufi nk'ihene n'intama ugasanga byo birahebuje. Niyo mpamvu dukwiye kubivura mu gihe byahuye n'uburwayi.